Ifoto mpawe ni urugo rukoreshejwe imiyenzi, hanyuma hakaba hahinzwe igihingwa gihigwa mu Rwanda kizwi nk'igitoki, ikindi ni uko hariho igikoresho gikoreshwa mu ngo cyane kizwi nk'igitanda, kikaba giteretseho amasahani, ibiyiko, ibikombe, indobo n'amasorori.

Iki ni ikirangantego cy'u Rwanda cy'ikigo gishinzwe ibyerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe kikabakurikirana, akaba ari nabo bashinze ikigo cya Ndera kirebera abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe.

Iyo wireba mu kirahure ugira ngo wihanganyure neza amenyo yawe agire isuku, ugomba kubikora neza utumbereye ibyo urimo urakora ukoresheje agakoresho kabugenewe mu kwisukura mu menyo.

Akenshi iyo tugiye mu isoko dukunda gusangamo ibicuruzwa. Harimo indagara, imyumbati, ibitunguru, hamwe na hamwe ugasanga baracuruza inyama zokeje zirimo inkoko, amafi, n'inyama zisanzwe z'inka. Mu isoko tugasubirayo tugasangamo indagara, ibisheke ndetse n'ibirayi n'umuceri.